Icyumba cy'ishuri cy'inshuke gishushanyijweho agasumbashyamba kari mu ibara ry'umukara ndetse rivanze n'ibara ry'isine, icyo cyumba cy'amashuri cyubakishijwe ibara ry'umweru.

Tumwe mu dukinisho abana bo mu mashuri y'inshuke bashobora gukoresha biga. Utwo dukinisho turi mu mabara arimo umuhondo ndetse arimo n'icyatsi.

Amanota y'umuziki y'indirimbo yitwa nkunda gusiga irangi, ayo manota yandikwa bigendewe n'uburyo abahanga mu by'umuziki babiteganyije, ashobora gutuma umenya indirimbo n'ubwo waba utayizi.

Ubwogero bw'abana bashobora kwidagaduriramo bugizwe n'igikoresho kizengurutse ubwo bwogero kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, muri ayo mazi arimo icyo gikoresho harimo utwato abana bashobora kwidagaduriraho.

Ibyicungo by'abanyeshuri. Ibi byicungo biri mu mabara y'umutuku, umuhondo n'ubururu. Hariho abanyeshuri bambaye imyenda isa n'ubururu bwijimye ndetse n'ubururu bw'ikirere. Inyuma yabo hari abarezi babo bambaye impuzankano y'umuhondo.

Igishushanyo kigizwe kiri ku rukuta rusize ibara ry'umweru, icyo gishushanyo hakaba hariho itoroshi ikoreshwa mu kumurika.

Ibyumba by'amashuri byegeranye. Bikikijwe n'ubusitani ndetse muri ubwo busitani hariho icyuma abana bashobora gukoresha barya umunyenga, bakinyerereraho ndetse igihugu cy'amashuri kizitiwe na senyenge.

Kamwe mu dukoresho abana bifashisha bakina. Cyane cyane abana bo mu mashuri y'inshuke. Utwo dukoresho tukaba turi mu mabara y'ubururu, umutuku ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Igihangano, igihangano kerekana inzovu. Iyo nzovu iri mu ibara ry'umukara ndetse icyo gihangano kiri ku rukuta rusizwe ibara ry'umweru. Iyo nzovu imeze nk'iri gushibura amazi iyakura mu mugezi.

Icyumba cy'amashuri cy'abana biga mu mashuri abanza harimo bambaye imyenda isa n'ubururu bwikirere n'dubururu bwijimye imbere yabo bakurikiye ibyanditswe ku kibaho.

Aho abana bishimira haba imikino bakunda cyane. Iyo mikino hari icyuma bajyaho, bakisunika, hanyuma bakegera imbere, barya umunyenga. Icyo cyuma kigizwe n'amabara y'icyatsi, umutuku, umuhondo.

Umwana mutoya w'umuzungu ari imbere y'ibikinisho bikozwe nk'umutima, afashe kimwe muri byo ari kujya akirya agihekenya mu kanwa, uwo mwana yambaye imyenda y'umweru.

Agakinisho gashobora kwifashishwa n'abana, baruhuka ndetse bisusurutsa. Ako gakinisho kakaba kagizwe, gafite ingofero y'umutuku.

Bimwe mu bikoresho abantu batandukanye bashobora gukenera harimo igipupe k'ipusi yambaye agapira gasa umuhondo, gasa umutuku n'umweru, harimo kandi n'ipantaro.

Ikigo cy'ishuri cya Samaritani cyangwa se mu ndimi z'amahanga Samaritan international school, yerekana ikigo ibyumba by'amashuri by'iryo shuri ndetse iryo shuri imbere yaryo hakaba hari ubusitani.

Igihangano cy'ubugeni gishushanyije ku rukuta rufite irangi ry'umweru. Icyo gihangano kikaba kiriho ibiti mu ibara ry'icyatsi, kinerekana ikimera cy'umbati, ku ruhande berekana inkoko itetse, iri ku isahani.

Igishushanyo kigizwe n'agaserebanya. Ako gaserebanya kakaba gasa kari mu ibara ry'umukara. Kakaba gashushanyije ku gikuta gifite ibara ry'umweru.

Igikapu umwana atwaramo ibyo akeneye mu gihe agiye kwiga. Kiri mu ibara ry'umutuku, kiriho n'igikinisho cy'umwana, kigizwe n'ibara ry'umweru.

Bimwe abantu bafite amatwi manini mu gishushanyo cyangwa mu gihangano cyubugeni, bahagaze, batambaye imyenda hejuru, bambaye imyenda ifite amabara hasi y'icyatsi n'ubururu n'umuhondo.

Bimwe ku bikinisho abana bashobora gukoresha bakina imikino. Harimo nk'akamodoka gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'akagare bahagararaho gafite ibara ry'umuhondo n'ubururu.

Udukinisho tw'abana, turimo tumushushanyije tumeze nk'utumarayika, ndetse dufite amababa. Utwo dushushanyo, turi mu mabara agiye atandukanye, kuko nta na rimwe risa n'irindi.

Intore zibyina imbere zambaye imikenyero ya kinyarwanda ndetse zifite n'imigara ku mitwe yazo, iruhande rwabo hari ababaririmbira, bakomera amashyi babyina.

Ifoto igaragaza imitako ikozwe mu bizeru, iyo mitako ikaba iri mu mabara atandukanye, harimo ubururu n'icyatsi ndetse iyo mitako ikaba iri ku isahani y'umweru.

Igishushanyo kivuga umwamikazi Halima n'Ubwami bwa Afia, icyo gishushanyo kigizwe n'umwamikazi ubwe ari imbere y'umugezi ndetse n'umukozi we uri iruhande rwe, bombi bari imbere y'umugezi.

Umugani wa bakame n'impyisi ni igitabo kitwa gutyo akaba ari igitabo k'imigani ya kera, hariho igihangano gishushanyijeho bakame cyangwa se urukwavu hakaba hari n'igihangano kiriho impyisi nayo ishushanyije.

Umunyabugeni ari gutunganya igihangano cye akoresheje ibara ry'icyatsi cyangwa se amarange afite ibara ry'icyatsi, akaba ari kubisiga ku rukuta rw'umweru.

Kamwe mu dukapu umuntu ashobora gukoresha apfunyikiramo umwana ukiri muto ibintu arakenera ku ishuri, ako gakapu kakaba kagizwe n'ibara ry'umutuku, umweru n'umukara.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati y'ine n'itandatu ari ku kicungo, inyuma ye hari umuntu mukuru uri kumurisha umunyenga amusunika, uwo mwana yambaye imyenda isa n'ubururu,

Ibyumba by'amashuri yo mu mwaka w'ibiburamwaka, ibyo byumba bikaba bishushanyijweho ibishushanyo bifasha abana kwiga ndetse no kumva baguwe neza mu gihe bari ku ishuri.

Ifoto igaragaza imbwa iri hasi ihagaze, ifashe mu menyo yayo, kimwe mu bipupe abana bashobora gukinisha. Icyo gipupe gisa umutuku, ku ruhande rwacyo hari ikindi gisa icyatsi.

Hamwe mu ho abanyeshuri bidagadurira cyane cyane abakiri bato, harimo aho abana bicara icyuma bakahanyerera barya umunyenga, icyo cyuma kikaba gikozwe mu ibara ry'umutuku n'umuhondo.

Igihangano; igihangano kiri gishushanyije ku rukuta ruri mu ibara ry'umweru, icyo gihangano kikaba kigizwe n'urutoki rushushanyijwe mu ibara ry'icyatsi, ku ruhande rwaho hakaba hari idirishya n'umuryango.

Umubyeyi wambaye umupira w'ubururu, ahagaze imbere y'ishuri, yambaye agapfukamunwa. Iryo shuri rigizwe n'umuryango ufite ibara ry'ubururu.

Bimwe mu bikoresho abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bashobora kwifashisha abakina. Ibyo bikoresho bikaba birimo inziga ndetse n'udupira. Utu dupira dufite ibara ry'umweru n'umukara.

Ikigo cy'amashuri abanza kigizwe n'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye ndetse iruhande rwayo hari utuntu abantu bakwicaraho.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwigishwa n'umwarimu w'umugore uhagaze imbere y'umweru, waba ubabajije ikibazo, bose bamwe muri bo bazamura agatoki, bashaka gusubiza mwarimu

Icyapa kerekana zimwe mu ndangagaciro zigize urwunge rw'amashuri rwa Gishororo harimo gukunda igihugu, gukorera ku gihe, kugira umwete ndetse no kugira isuku.

Igihangano kerekana umwarimu ahagaze ateruye icupa ririmo ibyo bagishyiramo ibinyabutabire, iruhande rwe hari ibinyabutabire, ari kwigisha abanyeshuri.

Igitabo cyerekana, kibaza abanyeshuri isomo mu buzima rusange icyo ari cyo. Iki gitabo kikaba kigizwe n'amabara y'umuhondo, icyatsi, umutuku n'umweru.

Igishushanyo cyerekana intebe ziri guhanagurwa. Bari kuzoza, bazitunganya ndetse abari kubikora ni umugore n'umugabo, bombi bahagaze.

Igitabo cy'umwaka wa kabiri w'amashuri abanza cyigisha abanyeshuri ibya siyansi nka tekinoroji. Icyo gitabo kiri mu mabara y'umuhondo, umutuku, nu'ubururu.

Kamwe mu dukapu dushobora guhabwa abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke cyangwa se abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Gasa ibara ry'ubururu.

Abayobozi bo mu nzego za Leta baje gufungura kimwe mu byumba by'amashuri byubatswe na Leta, muri aba bayobozi harimo umuyobozi muri Polisi n'abandi bayobozi ba sivile.

Ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri biga imibare ibyo bikoresho bigizwe n'irati bikaba binagizwe n'akandi gakoresho bakoresha bashushanya kitwa kompa mu ndimi z'amahanga.

Igikoresho cyitwa kompa mu ndimi z'amahanga gikoreshwa mu mibare n'abanyeshuri biga mu gihe bashaka gushushanya uruziga bitewe n'uburyo urwo ruziga rungana.

Ibyumba by'amashuri bitondekanyije ku murongo. Ibyo bimba by'amashuri bikaba byubakishijwe n'amatafari ahiye ndetse n'imirongo iri mu ibura ry'umweru. Imbere yabyo hari ahagiye haragenewe guterwa ibiti.

Igihangano cy'ubugeni cyerekana umwana w'umuhungu afashe ku giti kiriho ibendera ry'igihugu ndetse imbere y'iwe hari abarimu bahagaze ndetse uwo mwana w'umuhungu ahagararanye n'abanyeshuri bagenzi be.

Igihangano cyerekana abanyeshuri bane barimo babiri b'abakobwa na babiri b'abahungu bagiye ku ishuri. Umunyeshuri w'umuhungu ari mu kagare k'abafite ubumuga agenda afashwa n'umunyeshuri w'umukobwa kugera ku ishuri.

Bimwe mu dukinisho dufasha abana biga amashuri y'inshuke kumenya ibyo abantu bifashisha, ibyo bikinisho birimo imbuto nk'umuneke ndetse barimo n'ikigori n'inkeri.

Aho abana bigira abana bo mu kiburamwaka, iryo shuri rigizwe n'udutebe dutoya turiho hejuru ibikinisho abana bakoresha biga kubera ko biga mu kiburamwaka.

Ikibuga gikinirwaho umukino w'intoki wa basketball. Kiriho abanyeshuri baje kwihera amaso, umukino wahuje bamwe muri bagenzi babo. Bakaba bambaye impuzankano y'umweru n'umukara.

Bimwe mu bikoresho abanyeshuri bashobora gukenera harimo amakereyo mu ndimi z'amahanga, imikasi, udusibisho, amakayi, amakaramu, ndetse n'udukoresho twifashisha baterateranya imibare tuzwi mu ndimi z'amahanga karateratirise.

Ibyumba by'amashuri bigiye bitondekanyije. Ibyo byumba by'amashuri, bikaba bisize irangi ry'umweru, bifite inzugi biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'amabati ari mu ibara ry'ubururu. Imbere y'ibyo byumba by'amashuri hakaba hari ubusitani bwatangiye kononwa.

Ikigo cy'amashuri kigaragaza umuhanda w'ibitaka uri gucamo hagati, icyo kigo cy'amashuri kikaba gikikijwe n'ubusitani kandi kikaba kigeretse inshuro imwe.

Ibyumba by'amashuri hagati yabyo hari igiti. Ibyo byumba by'amashuri bikikijwe n'ubusitani ndetse nta rangi bisize.

Igitabo cy'abanyeshuri bo mu myaka y'amashuri abanza, kirimo ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibimera. Iki gitabo kigisha abana kumenya, ibyo bintu uko ari bitatu.

Umwarimu uhagaze imbere ku kibaho cy'umukara ari kwigisha abanyeshuri imibare uko ikorwa, mu ntoki ze afite igitabo ndetse yambaye itaburiya.

Ikigo k'ishuri kitwa wisdom cyangwa se wisdom school. Iyo nyubako y'iryo shuri igeretse rimwe ndetse iri mu ibara ry'umweru n'umuhondo wijimye.

Bimwe mu bikoresho umwana wiga mu mashuri abanza cyangwa se n'ayisumbuye cyangwa ay'incuke ashobora gukenera harimo kereyo, harimo udusibisho, ndetse n'urupapuro rw'umweru.

Ibikoresho byifashishwa ku banyeshuri biga imibare mu mashuri yaba abanza, ayisumbuye, cyangwa se kaminuza, ibyo bikoresho harimo ibishushanyishwa inziga ndetse n'ibyifashishwa baca imirongo.

Abanyeshuri bo mu ishuri ribanza bahagaze mu kibuga cy'ibitaka, kiri imbere y'icyumba cy'amashuri bigiramo, bari imbere y'icyo cyumba bakoze uruziga bari gukina, mwarimu wabo ari kubereka udukino bakina.

Amashuri cyangwa se ibyumba by'amashuri. Imbere yabyo hari aho abana bashobora gukinira. Ibyo byumba by'amashuri bikaba byubatswe mu ibara ry'umuhondo ndetse n'imireko y'icyatsi.

Igitabo cy'abana bo mu mashuri abanza, harimo inyuguti z'ikinyarwanda kibafasha kuba bakwiga ikinyarwanda, icyo gitabo kikaba cyarateguwe na yuwesayidi ndetse na rebu.

Icyumba cy'amashuri y'inshuke. Cyerekana ibikoresho abanyeshuri b'inshuke bakoresha. Harimo nk'ibikinisho byabo n'utumeza bicaraho n'udutebe twicarwaho na bo.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba cy'amashuri bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu bw'ikirere ndetse n'ubururu bwijimye. Abanyeshuri bakurikiye ibyanditswe ku kibaho.

Ibitabo bitanu haririmo icy'Ikinyarwanda cy'umwaka wa gatatu, gishushanyijeho umwarimu aje gusuzuma yuko abanyeshuri yahaye ibyo gukora bari kubikora koko.

Ibikinisho by'abana biri ku meza matoya mu ishuri abana bato bari mu cyiciro cy'inshuke bigiramo. Harimo utuntu tumeze nk'uturimo amavuta ndetse n'utundi tw'ibihangano dufasha abantu kwiga inyuguti.

Ibyumba by'amashuri bigeretse inshuro imwe. Hagati yabyo haca umuhanda w'ibitaka kandi bikaba bikikijwe n'ubusitani. Imbere y'ubusitani hakaba hari ikirango cyerekana indangagaciro na kirazira.

Bimwe mu bikoresho, umunyeshuri wiga imibare ashobora gukinira, harimo amakaramu, harimo kandi amakeyo, harimo kandi kalikeratirise mu ndimi z'amahanga ndetse harimo irati n'umukasi ndetse n'amakayi.

Amwe mu mashuri yubatswe ndetse iruhande rw'ibyumba by'amashuri, hariho ahagenewe ubwiherero. Ku ruhande rw'ubwo bwiherero, hari ikigega gifata amazi. Biragaragara yuko inzira zigana ku bwiherero zikirigitaka, zitarakorwa neza.

Ibyumba by'amashuri ariho icyapa cyerekana aho abaje gusura ishuri bahagarara cyangwa bategerereza, ibyo byumba by'amashuri bikaba bikikijwe n'ubusitani ndetse hagati y'ubwo busitani hakaba hacamo umuhanda wa kaburimbo ariko wo mu kigo.

Ishusho igaragaza ikigo cy'amashuri gifite amadirishya asa icyatsi ndetse n'amabati ashaje cyane asa umutuku.

Igikoresho cyifashishwa mu mibare kizwi nka buwate kikaba cyarakozwe n'uruganda cyangwa se kitwa marishari matematiko insiturumenti icyo gikoresho cyifashishwa mu mibare.

Igishushanyo kerekana ikirangantego k'ishuri cy'urwunge rw'amashuri rwa Rubagabaga icyo gishushanyo iryo shuri rikaba riri mu karere ka Nyagatare.

Ishusho y'ikibaho cy'umukara kimeze nk'ikiriri mu ishuri ryigirwamo, icyo kibaho kikaba kiri ku rukuta rudateye irangi na rimwe, kandi iryo shuri nta sima n'imwe irimo.

Umwana w'umunyeshuri mu ishuri ribanza, ari ku gishushanyo kimufasha kwiga. Iki gishushanyo kiri mu ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ibyumba by'amashuri bitondekanyije. Ibyo byumba bikaba byubatswe mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara risa nk'ivu. Imbere y'ibyo byumba by'amashuri, hari ubusitani.

Bimwe mu bikoresho bishobora kwifashishwa mu gufungura amaburo, ariko na none byakwifashishwa mu kwereka abana uko ibintu bimwe na bimwe bikora harimo nko gufungura amaburo aba ahuje ibiti.

Ishuri ry'inshuke ririmo ibikoresho abana bashobora gukenera, iryo shuri rikaba ririmo udukoresho turimo nk'udutebe dutoya n'utumeza abana bakoresha.

Icyumba cy'amashuri cy'abana b'inshuke. Harimo ibikoresho bakoresha bakina kugira ngo bitume batekereza ndetse bakure mu buryo bw'amasomo. Harimo ndetse n'aho bicara.

Ibyumba by'amashuri bimeze nk'ibiri mu cyaro. Byubakishijwe amategura kandi bikaba bizengurukijwe n'ubusitani. Umuhanda ugera kuri buri byumba by'amashuri, ni umuhanda w'igitaka.

Icyumba cy'amashuri cy'abana b'inshuke, kirimo ame ngufi ndetse n'ubutebe abana bakwicaraho ndetse harimo n'ibikinisho n'ibikoresho bakwifashisha, icyo cyumba gisizwe ibara ry'umweru n'umuhondo.

Bimwe mu bikoresho bifashisha mu nzu y'ubumenyi, mu ndimi z'amahanga bita laboratwari. Ibyo bikoresho bikaba birimo udukoresho bakoresha bapima ingano y'ibinyabutabire, bari bukoreshe muri iryo suzuma.

Hamwe mu ho mu cyumba cy'amashuri cy'abana b'inshuke, harimo ibikoresho bakenera ndetse harimo n'ibikoresho bashobora kwigiraho. Aho hantu inkuta zaho zisa n'umuhondo n'ubururu.

Amarembo y'ikigo cy'amashuri abanza cya groupe scolaire Cyabanyana, iryo shuri rikaba ryambara impuzankano y'abanyeshuri basa, bambaye imyambaro isa n'ubururu.

Igihangano cy'ubugeni cyerekana abana bo mu mashuri abanza bari kugana ku ishuri ryabo, iryo shuri hakaba hariho abarimu babategereje ndetse iryo shuri rikaba hagati yayo y'ibyumba by'amashuri hari idarapo ry'Igihugu.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bicaye mu busitani, hagati yabo n'abandi, hari abandi bicaye imbere, bicaye ahagana ku gasima.

Igikoresho abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru bakaba inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara.

Bamwe mu banyeshu, abanyeshuri bahagaze bombi bafite bibiliya mu ntoki yabo bayihurijeho bafite ibyo bari gusoma ku dupapuro dusa umweru uwo banyeshuri harimo umukobwa ndetse n'umuhungu.

Abayobozi bahagaze imbere y'amashuri, ameze nk'ashaje kandi ayo mashuri akaba afite amabati yaguye ingesi. Bari kuganira ariko ayo mashuri ntabwo akikijwe n'ubusitani.

Abanyeshuri bo mu ishuri ryisumbuye bari bahagaze bose bambaye impuzankano y'udupira tw'ibara ry'icyatsi ndetse n'amapantaro afite ibara ry'umukara, bahagaze bamanitse amaboko.

Umwarimu ahagaze imbere y'abanyeshuri, aba banyeshuri nabo bahagaze imbere y'ibyumba by'amashuri, ari kubaririmbira indirimbo nabo bamufasha kuyiririmba ndetse banakoma amashyi.

Igishushanyo kigaragaza bimwe mu bikoresho bifashisha mu nzu y'ubuhanga mu bya siyansi izwi laboratware. Ibyo bikoresho hakaba ariho iminzani, hariho amacupa afasha gupima icyo ugiye gukoresha.

Abanyeshuri b'ibigo bitandukanye bahagaze ku mirongo, abo banyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'ibara ry'umweru n'amapantaro y'ibara ry'ivu, bagenzi babo bambaye imyenda isa n'umuhondo.

Abanyeshuri bari kuganirizwa n'umuyobozi wabo, aba banyeshuri bakaba bicaye mu cyumba k'inama inyuma yabo hari ibitabo, bambaye impuzankano y'amashati y'umweru.

Icyumba cyigirwamo n'abanyeshuri mu mashuri yisumbuye, imbere yabo hariru umukobwa uri kubasobanurira areba mu ikayi, mu gihe abandi banyeshuri bicaye mu ntebe zabo imbere ye.

Abanyeshuri b'abakobwa batatu, bicaye mu ntebe z'umweru kandi bose abo bakobwa bambaye impuzankano zisa n'ibara ry'umweru ndetse n'amajipo y'icyatsi.

Umwe mu barimu ari gushimira umunyeshuri w'umuhungu yuko yabashije gutsinda, amuhereza impamyabumenyi cyangwa se ishimwe. Uwo munyeshuri yambaye ibara ry'ishati ry'umweru ndetse n'ipantaro isa ikigina.

Ibyumba by'amashuri biri kugenzurwa n'abakozi babishinzwe. Ibi byumba by'amashuri bikaba byubakishijwe mu ibara risa n'ivu ndetse n'irindi bara risa n'isine. Abo bayobozi bakaba bambaye amajile asa n'icyatsi n'abandi bambaye amajile asa n'umuhondo.

Bamwe mu banyeshuri barimo ab'abakobwa, bambaye impuzankano ifite ibara ry'umweru ndetse n'amajipo cy'icyatsi, bahagararanye n'umuyobozi wabo w'umupadiri cyangwa w'umufurere, arimo abahereza igihembo.

Abanyeshuri bari bitabiriye irushanwa rya Banki ya Kigali bagatsinda, bahagaze bari kureba, babafotora. Abo banyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'ibara ry'umweru n'ipantaro ry'ivu.

Bamwe mu babishinzwe bari kureba uko icyumba kizajya gikorerwamo ubushakashatsi cyangwa se ikizwi mu ndimi z'abahanga nka laburatwari, uko kizajya gikorwa bambaye amajire.

Ikigo cy'amashuri kiri kugenzurwa n'abantu bashinzwe uburezi, bari kugenzura bambaye amajire uko ari abakobwa babiri n'umugabo umwe.

Bamwe mu banyeshuri bambaye impuzankano irimo ibara ry'umutuku, bicaye mu busitani bari guhabwa impanuro n'abayobozi babo bicaye ku ntebe zisa umweru.

Ibyumba by'amashuri byubakishijwe amategura ndetse bizengurukijwe n'ibiti byinshi n'ibimera, iruhande rwabyo hari imihanda ihagera ikozwe mu butaka.

Icyumba, ibyumba by'amashuri bigizwe n'ibara ry'umweru n'amatafari ahiye iruhande rwabyo hari ikigega gitetse mu busitani buri kumera.

Ibiro biri byicayemwo abantu ku mpande yaho hari aho abantu babika ibitabo, harimo abantu bahagaze bameze nk'abari kugenda abandi bicaye bameze nk'abagiye kwiga.

Umunyeshuri wo mu ishuri ryisumbuye, ahagaze imbere ya bagenzi be ari kubabwira imbwirwaruhame. Abo banyeshuri bose bari munsi y'ishitingi bumva icyo mugenzi wabo ababwira.

Abanyeshuri bahagararanye bose hamwe, bari mu busitani, abo banyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye impuzankano y'amashati y'ubururu bwererutse ndetse n'ubururu bwijimye bw'amapantaro.

Abanyeshuri bo mumashuri yisumbuye, bahagaze imbere yabantu bari kubaririmbira, abo banyeshuri harimo abakobwa n'abahungu, bambaye impuzankano y'amashati y'ibara ry'umweru n'amajipo n'amapantaro y'ibara ry'ubururu bwijimye.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri ari benshi batambaye impuzankano y'ishuri, imbere yabo bamwe muri bo hari aho bakwandika ndetse ku rukuta rw'iryo shuri hamanitse bimwe mu byo bakoresha bigiraho.

Abanyeshuri bo mwishuri ribanza, bifotoje ifoto bahagaze mukibuga cyibitaka, abanyeshuri babakobwa bambaye umwenda w'ishuri usa numutuku, mugihe abahungu bo bambaye amakabutura asa nivu n'amashati asa umweruru.

Umunyeshuri ahagaze mu cyumba kiberamo inama. Ari gutanga ijambo ku bandi banyeshuri ba bagenzi be, bicaye muri icyo cyumba kiri kuberamo inama.

Bamwe bamwe mu banyeshuri biga amashuri y'ubumenyingiro bambaye impuzankano y'amasarubeti asa n'ubururu bari mu kazi bimenyereza bimwe mu bigize ibyo biga.

Bamwe mu bayobozi, bari gusuzuma imiterere y'amasafuriya, atekerwamo amafunguro, abanyeshuri ba pirimeri cyangwa se abiga mashuri yisumbuye. Bagenzura uko ayo masafuriya ateye.

Abayobozi bambaye amajiri yabugenewe bari imbere y'ibyumba by'amashuri, bari kureba yuko byujuje ubuziranenge kandi byubatswe neza. Ibyo byumba by'amashuri bikaba biri mu ibara ry'umweru ndetse n'amatafari ahiye.

Ibyumba by'amashuri byigaragiwe bikikijwe n'ubusitani, muri ubwo busitani harimo utuyira tw'abanyamaguru hatari gucibwamo n'abanyeshuri bambaye impuzankano y'icyatsi n'umweru.

Abanyeshuri b'abakobwa biga mu ishuri ryisumbuye bahagaze ari benshi bagiye gufata ifoto. Bose bazamuye intoki batanga ikimenyetso cy'amahoro. Bamwe muri bo bambaye amajipo asa n'ivu n'amashati asa n'ubururu. Abandi bambaye amajipo y'ubururu bwijimye n'amashati y'umweru.

Abanyeshuri bifotozanyije nigikombe batsindiye, abo banyeshuri n'umukobwa ndetse n'umuhungu bombi bambaye impuzankano zimashati y'ibara ry'umweru.

Bamwe mu babishinzwe, bari kugenzura icyumba, aho basuzumira ubushakashatsi mu bya siyansi, icyo cyumba kizwi nka laboratwari. Bambaye amajire.

Umuyobozi uhagaze imbere y'abanyeshuri ari kubabwira imbwirwaruhame ari gusomera ku rupapuro rusa umweru. Abo banyeshuri bicaye mu busitani.

Ibyumba by'amashuri bigerekeranije rimwe. Bikaba bisizwe ibara ry'umweru ndetse bizengurukijwe n'ibyuma by'umutuku, byerekana imbibi by'ayo mashuri ndetse iruhande rwabyo hari n'ikigega.

Agatebe kariho aho umuntu yakwicara ndetse ako gatebe kakaba kagizwe n'ibara ry'ubururu. Iruhande rwako hari indobo ifite ibara ry'umutuku.

Abanyeshuri bo muri kaminuza, bari gusoza amasomo yabo, bicaye bari kumva impanuro bahabwa, bambaye amakanzu agaragaza ko barangije amashuri ya kaminuza.

Umunyeshuri wiga mu ishuri rya kaminuza wambaye agapira k'ubururu bwijimye ari imbere ya mudasobwa inyuma ye hari ibitabo.

Icyumba cy'amashuri kirimo intebe zimeze nk'iz'abanyeshuri bicarwamo, harimo n'amezaza, harimo kandi n'abanyeshuri bamwe bicaye abandi bahagaze hanze y'iryo shuri.

Bimwe mu bihangano by'ubugeni, bimanitse ku gikuta gisi icyatsi. Bimwe muri ibyo bihangano, bigizwe n'amabaragiye atandukanye anyuranyuranamo, harimo amabara y'umweru umutuku n'icyatsi. Ku ruhande hari ikizimyamwoto.

Intebe iri kumwe n'imeza yayo, bigaragara yuko ari aho umuntu ashobora kuba ari gukorera akazi cyangwa ashobora kwigira, iyo ntebesa icyatsi n'umukara, mu gihe imeza yo isa n'ibara ry'ubutaka.

Igikoresho bashyiramo imyanda. Gifite ibara ry'icyatsi, kiri mu nguni, mu gipangu, mo mbere aho inkuta zisize amabara y'umweru kandi ntago imbuga giteretseho ari iy'ibitaka, ahubwo imbuga giteretsweho irapavomye.

Igishushanyo kiri ku gikuta, igikuta gisa umweru mu ibara ryaryo. Icyo gishushanyo kikaba cyerekana ibiti biri hafi y'umugezi muri icyo gishushanyo.

Igihangano kigaragaza umusore ari gucuranga gitari, ayicuranga yicaye ndetse yambaye ikabutura, icyo gishushanyo kikaba kitagaragaza amabara y'imyambaro ye.

Abanyeshuri bicaye mu ntebe zabagenewe mu ishuri rikuru rya kaminuza. Abo banyeshuri imbere yabo hari za mudasobwa bari kureberamo ibyo bashaka kureba.

Inzira, inzira yerekana iri hagati y'ubusitani, ubwo busitani bukaba hagati yabwo harimo utuyira tw'ubunyamaguru dupaomye neza. Ubusitani bukaba bukikijwe.

Ibikoresho bikozwe mu ibumba biteretse ku meza, iryo bumba risa n'ivu, kimwe muri ibyo bikoresho harimo igikombe ushobora gukoresha unyweramo ibintu bigiye bitandukanye.

Igikoresho kibumbye mu ibumba, icyo gikoresho kikaba kibumbye mu ibumba gisa n'ivu, icyo gikoresho kikaba kiri hejuru y'amashashi, icyo gikoresho kandi kikaba gisa n'ivu.

Umuhanda ukikijwe n'ubusitani ubusitani burimo indabo zimwe na zimwe zifite ibara ry'umuhondo n'izindi zifite ibara ry'icyatsi, kandi uwo muhanda ukaba ukikijwe n'utubuye dufite ibara ryumutuku ry'umukara n'umweru.

Ikibaho cyifashishwa mu ishuri cyangwa se ahandi hose biri ngombwa, icyo kibaho kikaba kiri mu ibara ry'umweru, gisizwe amabara y'umukara, bigaragara yuko ari ibyanditswe, bigiye kuza kwigwamo.

Intebe iri mu cyumba k'ishuri. Iyo ntebe ikaba isizwe ibara ry'umutuku ndetse inyuma yayo hari ikibaho cy'umweru kigishirizwaho abanyeshuri.

Umuhanda usohoka muri kaminuza werekana abanyeshuri bawurimo bari gusohoka muri kaminuza. Uwo muhanda ukaba ukikijwe no mu dupave turi mu mabara y'umweru n'umukara.

Icyicaro cya diparitoma cyangwa se icyicaro gishinzwe iby'ubucuruzi n'ubuyobozi cyangwa ibyo mu ndimi z'amahanga bita departement of business administration.

Umwarimu ahereza impamyabumenyi ndetse n'ishimwe, umwe mu banyeshuri bari bashoje amashuri ya kaminuza ku bwo kuba yararangije mu cyiciro cy'abahize abandi muri abo banyeshuri.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'ubururu bwerurutse, bari kurebera na mugenzi wabo kuri kompiyuta, hari ibyo abereka bose barebera hamwe.

Bimwe mu bikoresho bigizwe n'ibikozwe mu ibumba. Ibyo bikoresho hakaba harimo agakoresho kameze nk'uruziga, ushobora gukoresha ushyiramo utundi tuntu tw'udukoresho two mu rugo.

Ifoto y'urubyiruko rw'abantu bakiri bato, bifotoje bahagaze, bose bafite impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi, bakaba bahagaze batambaye impuzankano.

Bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza, bari mu ishuri ryabo mu ntebe zisa ubururu, bose nta n'umwe wambaye impuzankano, bakurikiranye isomo kandi bafite aho bandika ibyo biga.

Ifoto igaragaza bamwe mu rubyiruko rwicaye mu cyumba kimeze nk' icy'inama. Urwo rubyiruko rwambaye imyenda isa n'icyatsi n'amapantaro y'umukara. Hakaba harimo abakobwa n'abahungu.

Igishushanyo kirimo mu ibara ry'icyatsi ariko icyo gishushanyo kikaba kirimo amabara menshi agiye anyuranyuranamo harimo: amabara asa umweru, harimo amabara asa umutuku, ahasi icyatsi ndetse n'ubururu.

Inzu isize irangi ry'umweru ifite naho bazamukira ku mpande yaho hari ibyuma bitangira kuba umuntu yagwa hasi, iyo nzu igizwe n'ibara ry'umweru n'amategura kandi ikikijwe n'akarima k'ubwatsi.

Ibikoresho bibumbye mu ibumba risa n'ivu, ibyo bikoresho harimo akabindi gakozwe mu kizeru ndetse n'ikindi gikozwe nka mpande enye.

Ishusho y'uruziga y'igihangano cy'ubugeni. Ikaba igiye irimo utuziga tubiri. Twose tukaba turimo amabara agiye atandukanye. Harimo icyatsi, umutuku n'umuhondo.

Ishuri rikuru rya kaminuza, harimo abanyeshuri bicaye bose bakurikiye ndetse harimo n'abahagaze bose bari kureba ibyo umwarimu ubari imbere abereka.

Umunyeshuri ahagaze kuma esikariye ari inyuma y'ishuri, aya ma esakariye ku ruhande afite ibyuma bigarura bitinda kuba umuntu atarenga izo esikariye ngo agwe kuruhande.

Icyapa cyerekana icyicaro cya kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Nyagatare. Hakaba hariho ibyo abanyeshuri, bamwe na bamwe mu biga i Nyagatare bagomba kubahiriza.

Bamwe mu banyeshuri bo mu mashuri makuru na kaminuza bahagaze bari gukoma amashyi, bambaye imipira y'umweru ndetse n'amapantaro y'amabara agiye atandukanye banambaye amakarita mu ijosi.

Igihangano cy'ubugeni kigizwe n'inanasi ishinze, ku ruhande rwayo hari imineke ibiri ndetse na avoka ikase.

Igishushanyo cyerekana inzira y'umuhanda kirimo ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti bigikikije ndetse hari n'ahantu wakwicara abantu bakaganirira.

Igikuta k'icyatsi kiriho ibihangano bigiye bitandukanye, bigizwe n'amabara agiye atandukanye arimo umweru, ubururu n'umukara, iruhande hariho kizimyamwoto.

Bamwe mubanyeshuri biga muri kaminuza bari aho bigira mu ishuri, bamwe barahagaze abandi baricaye bafite amakaye yabo imbere bari gukora imikoro.

Abanyeshuri bo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, bambaye amakanzu yerekana yuko barangije amasomo yabo, bose bahagaze kandi amakanzu asa n'umukara.

Umuhanda uri mu kigo cy'amashuri ya kaminuza. Uwo muhanda urimo abakobwa babiri barimo bagendagenda, ndetse n'umuhanda uri mu kigo cya kaminuza, ukikijwe n'ubusitani, burimo n'ibiti.

Intebe zisa ubururu ziri mu cyumba kimwe; izo ntebe iruhande rwazo hari akandi gatebe kadasa nazo, iruhande rw'izo ntebe hari telefone.

Icyumba kigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza, kigizwe n'intebe zifite ibara ry'icyatsi ririmo abanyeshuri bari kuganira ku by'amasomo yabo ariko batambaye impuzankano.

Abanyeshuri bahagaze mu cyumba cy'amashuri, batambaye impuzankano y'ishuri, harimo abasore babiri, n'abakobwa babiri, bombi bahagaze. Bari gukosora bimwe mu bibazo, bigize amasomo yabo.

Ubusitani buri imbere ya zimwe mu nyubako, izo nyubako zisizwe irangi ry'umweru ndetse imbere yaryo hakaba hari abantu, hari aho guca ku muhanda utapavomye neza harimo n'abantu bari gucamo.

Aho baparika ibinyabiziga hapavomye hadasa n'ibitaka aho baparika ibyo binyabiziga harakingiye ku buryo nta mvura cyangwa izuba ryahanyagira ibyo binyabiziga harimo ikinyabiziga gikoreshwa mu kugenda harimo n'ikinyabiziga kifashishwa mu guhinga.